Isuku ni isoko y'ubuzima kabone ko kimwe cya kabiri cy'ubuzima bwacu tutaranzwe n'isuku ntago twarama. Umwana muto w'umunyeshuri wirabura, asa nkaho ari mu kigereranyo cy'imyaka itanu, ndetse n'icumi. Arakaraba intoki nk'aho avuyemo ubwiherero cyangwa se avuye ahandi hantu aho ari ho hose yaba yahuriye n'imyada.

Inyuma yaho hari idirishya, hari icyapa cy'umweru cyanditseho amagambo, ni abantu batanu, harimo igitsina gabo n'igitsina gore, bamwe bari guseka kandi ntibaseka, bambaye ingofero zisa z'umweru, bazamuye bose akaboko k'iburyo.

Imisozi, ibimera, ikinyabiziga cy'ibiziga bine, umuntu ugaragara nk'aho ari igitsina gore, wambaye imyenda isa umukara, umweru, umusatsi w'umukara, abana bane, bahagaze bategereje ko bavoma amazi, bakayajyana mu rugo kuyakoresha.

Amazi meza kandi asukuye, ni ingenzi mu buzima bwa benshi. Abana babiri umwe agaragara nk'igitsina gore undi agaragara nk'igitsina gabo, bavoma amazi, inyuma yaho hari ibiti ndetse n'ubutaka bugaragara nkaho bukorerwamo ubuhinzi.

Itsinda rigizwe nabagore n'abagabo basa nkaho bahagaze imbere y'inyubako bavuriramo abarwayi basa nkaho bavuye gufata amahugurwa agendanye nubuvuzi.

Ivomo rigezweho. Ibivomesho biri mu ibara ry'umuhondo. Umumama uri gusunika amazi. Abantu bahugarije bareba uburyo amazi amanuka. Insina ziri mu ibara ry'icyatsi.

Gukaraba intoki n'isabune n'amazi meza ni byiza kuko biturinda indwara z'ibyorezo. Urukarabiro rusa ubururu ni rwo uno muntu ugaragara nkaho afite intoki z'igitsina gore ari gukarabiraho kugira ngo ase neza.

Ihuriro ry'abantu benshi basa nk'aho bari mu birori, hari inyubako ihari isa nk'aho ari aho bavurira abantu, hari imodoka itabara imbabare mu gihe byakomeye cyangwa se byabaye ngombwa.

Urukuta rw'amabuye rurerure, hari sikariye zizamuka, kuruhande hari utwuma tw'ubururu. Inyubako ndende isa nkaho iri hejuru, hameze nk'aho araho mu ivuriro. Inyuma hari igiti kirekire.

Umuntu ugaragara nk'igitsina gore wirabura, yipfutse agatambaro mu maso kera, yambaye ingofero y'umukara, asa nk'aho afite ibibazo byo mu mutwe, witegereje neza inyuma ye hari abandi bantu.

Abishyize hamwe nta kibananira kandi ngo abajyanama Imana irabasanga, ni abantu bane batatu muri bo ni igitsina gore, umwe muri bo ni umugabo, basa nkaho bari kuganira ku bijyanye n'imitekerereze y'ibibazo byo mu bwonko.

Bicaye barangamiye imbere bigaragara ko hari uwo bakurikiye hari ibyo ababwira, uko byagenda kose hari iby'ingenzi bifitiye akamaro baganira byaba iby'ubuzima byaba n'ibindi, ni abagabo ni abagore birumvikana ko hari inyungu bari bukure hano hantu.

Amenyo adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo turi gushaka kugira ikintu dushyira mu nda, turayifashisha, ni igikoresho bakoresha bahanagura amenyo, amazi, imiti, umugabo uhagaze w'umusatsi wera, uruhu rwirabura.

Gushishikariza ababyeyi kujyana abana mu mashuri ni byiza kandi ni iby'ingenzi, ni iby'agaciro. Abarimu, abanyeshuri bicaye mu cyumba cy'ishuri bafite imiti n'ibikoresho bifashisha barimo koza amenyo kugira ngo birinde indwara z'amenyo.

Imbere ye hari imiti umukobwa w'imisatsi y'umukara wambaye umwambaro wera de, afite mu ntoki igikoresho yifashisha ahanagura amenyo.

Si ibya buri wese kuba yagira umukomokaho, yaba umuvandimwe cyangwa se umwana we. Ni abantu babiri umwe agaragara nk'umupapa undi akagaragara nk'umwana. Bafite akadodo bacengeje mu menyo. Basa nkaho barikwihanyagura utuntu twafashe mu menyo. Ni byiza kwita ku menyo yawe kugirango uyarinde indwara.

Imyitozo ngororamubiri ni myiza mu buzima bwa muntu kuko iturinda indwara zitandukanye, ibiti birebire, abagabo babiri bagenda mu muhanda bambaye imyambaro yera ndetse n'iy'umukara, agacupa bafashe mu ntoki.

Badushishikariza umuco wo gusoma. Birasa nkaho hari igitabo cyanditsemo amabwiriza, amategeko ndetse kiburira uburyo bwiza umuntu yakoresha arimo arita ku mubiri we bigendanye n'ubuvuzi.

Urumuri ruhagije, ameza, ibitanda, intebe, ubwiza bw'aha hantu, birasa nk'aho ari nko kwa muganga, aho batangira ubuvuzi bw'ibanze, cyangwa se aho babika imiti bifashisha bari kurokora ubuzima bwa benshi, ni iby'agaciro kugira ububiko bwiza.

Imodoka isa umukara, iruhande rwayo hahagazeho umumama, wifashe mu mayunguyungu, inyubako ndetse n'ibiti biraho hafi, hari n'abandi bantu batandukanye, hari n'umukobwa uhagaze wambaye inkweto z'umukara ndetse n'ipantaro y'umweru, hari imbuga isashe neza n'urukuta rw'amabuye hicayeho umuntu hejuru.

Twese dufite uburenganzira bungana, tugomba kubaho kandi tukabaho twishimye. Ni inyubako nini cyane, biragaragara nk'aho ari ku bitaro, aho babasha kwita ku barwayi batandukanye, by'umwihariko abafite ibibazo byo mu mutwe, bakeneye gufashwa kandi byihuse, bakaba bagira imiberero myiza.

Mu masaha y'igicamunsi, biragaragara ko uyu murwayi ugaragara nk'umugabo ari kumwe n'umuganga ugaragara nkaho ari umugore, agiye kumusuzuma indwara zo mu mubiri.

Inzira nyabagendwa, umuhanda, igikorwa remezo gisukuye neza, hagaragaramo abantu batatu umubyeyi n'abana babiri, hari ibihingwa biri mu ibara ry'icyatsi n'igiti kirekire inyuma y'amazu atatu.

Ibidukikije ni urusoga rw'ibintu byose bidendeje inyanja, isi n'abayituye. Akanyamaswa k'akanyamasyo kari mu nyubako irimo intebe, iteye amarangi atandukanye ubururu, umuhondo.

Ibidukikije ni urusobe rw'ibintu byose. Inyubako ndende igaragaraho amabara amwe asa ubururu, inyandiko zanditse hejuru ni ibara ritukura bisa nk'aho ari nk'ububiko bw'imiti bazifashisha mu mugihe kirekire kuko harinzwe.

Ahagana mu masaha y'umugoroba, umwijima muke n'akamuri gake, turi mu nyubako aho hagaragara nk'aho bakorera ubushakashatsi, ku bintu bijyanye n'ubuvuzi.

Inyubako ndende, isa neza, imbere yaho hahagaze abantu basa nk'aho bari gufata amashusho, harimo abirabura ndetse n'abera, abagabo n'abagore.

Ihuriro ry'abantu benshi, aho bicara batekereza cyangwa baganira ku byabagirira akamaro, yaba mu bijyanye n'imibereho myiza ndetse no mu bindi mu buzima busanzwe, intebe ndetse n'akameza kari imbere gafite ibara ry'umweru.

Imyitozo ngororamubiri irakwiye mu buzima bwa muntu, umugabo wirabura wicaye mu byatsi asa nkaho ari kubabara ku gice cy'akaguru akeneye kwitabwaho kugira abashe kuba yamera neza.

Uko ikoranabuhanga rigenda ritera imbere, niko abantu bagerageza kwisanisha na ryo. Umuganga wirabura wambaye agapfukamunwa ari kwita ku murwayi uryamye ku gitanda. Imashini yifashisha kugira ngo abashe kumwitaho, ubuzima bwe bugende neza. Ni byiza kugendana n'igihe kuko bizahura ubuzima bwa benshi.

Icuparo riteretse ry'umweru, ryometseho icyapa cy'umukara, ririho n'inyuguti zandikishije umweru n'izanditse mu mabara atukura. Biragaragara yuko ari nk'ibyo bifashisha mu bijyanye no gutera imiti.

Imibare iri kugaragara, mirongo itandatu n'umunani, mirongo icyenda na rimwe, ijana na rimwe. Ni akuma gahagaze hariho agatambaro k'ubururu, kariho utuntu tw'umukara n'akandi kenda gusa nk'umuhondo.

Uducupa dutandukanye, harimo uturi mu ibara ry'umweru, uturi mu ibara ry'umuhondo, n'iry'umukara, hagiye hashushanyijeho ibimera bitandukanye, harimo igikakarubamba, ndetse n'ibindi, biragaragara ko ari imiti gakondo, yifashishwa mu kuramira ubuzima bwa muntu.

Bisa nk'aho byatangiye bucye buke ariko bikagenda bizamuka. Ubuvuzi gakondo bugenda butera imbere gahoro gahoro bugira akamaro kuko basanze ahantu hasigaye imiti ivura abantu mu buryo burambye ni mu bimera bya gakondo.

Brya ngo buri muntu wese afite ibintu akunda cyane kuruta ibindi, umuntu uhagaze usa nk'umumama wambaye igitenge wirabura, afashe indabyo, erega ni nziza kuko zitugirira akamaro, ziturinda indwara nyinshi ndetse tuhakura n'ubuki wakwifashisha.

Ngo abishyize hamwe nta kibananira, niyo mpamvu umubare w'abantu batandukanye bagaragara hano barimo basarura ibihingwa cyangwa se imiti y'imiravumba, biragaragara ko bashobora kuba bagiye gukora nk'imiti bazifashisha barimo bavura abantu indwara zitandukanye, ni byiza gusigasira ibidukikije.

Mu masaha asa nkaho ari aya mu gitondo akazuba karasa nibwo umugabo wambaye umwambaro wera ufite uturongo tw'umukara wirabura yari ari gusoroma imiti ashobora kuba agiye kwivuza cyangwa se kuvura abandi bantu batandukanye kugirango ubuzima bwiwe bugende neza.

Agacupa gafunze kari mu ibara ryera gashushanyijeho igihingwa bakunda kwita igikakarubamba bakaba barakifashishaga mu buvuzi bwa kera aribwo bwa gakondo kikaba cyaravuraga indwara z'uruhu.

Ubuvuzi gakondo ni bumwe mu buryo bukoreshwa mu buryo bwo kwita ku barwayi hano mu Rwanda. Biragaragara ko kino ari igiti bifashisha bavura abarwayi barwaye indwara zitandukanye. Gifite akamaro kuko kibasha kurokora ubuzima bwa benshi hano mu gihugu.